Iyi ni santire de sante aho abarwayi(... ) ikigonderabuzima abarwayi baza bakigana kugira kibafashe kwivuza mu buzima bwacu bwa buri munsi.